Uyu mwana yagiye ku ivomero kuvoma amazi, ari kugerageza kuzamura indobo kugira ngo ayikorere ayishyire ku mutwe maze aze kubona uko aribuze kuyitwara mu gihe ari kugenda mu nzira.

Abana bari hamwe bari gufatanya mu kumanura icyuma kugira ngo kibahe amazi, bari kumwe n'umubyeyi wabo, hari majerekani, hari amabase bakoresha kugira ngo bashyiremo amazi.

Abana babiri bari ku ivomero, umwe ari kugerageza gufasha mugenzi we, kumuzamurira indobo irimo amazi, kugira ngo amwikoreze, abashe kuza kubona uko ayatwara imuhira, gufatanya ni byiza mu buzima, ni urukundo, ndetse bituma n'igihugu cyacu gitera imbere, kuko twashyize hamwe.

Gukaraba intoki bituma twirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, umwana ari kugerageza gukoresha amazi asa neza ndetse n'isabune mu gukaraba, kugira ngo yirinde ibyuririzi bitandukanye biterwa n'umwanda.

Abantu benshi bicaye mu nzu ikunze kwitwa sale, bicaye ku ntebe z'umutuku bambaye imyenda itandukanye basa nkaho bateze amatwi umuntu kugira ngo bumve ubutumwa ashaka kubagezaho.

Umukobwa afite akanyamuneza, ari guseka, yambaye umupira w'umutuku, agapira k'ubururu mo imbere, karamubereye cyane, arasa nkaho afite ibyishimo byinshi kuri uyu munsi.

Iri tsinda ry'abana, biragaragara mu maso habo ko bishimye, bafite akanyamuneza, bamwe muri bo bafite utubido, barasa nkaho bavuye kuvoma bajyanye amazi mu rugo.

Umusore w'umuhungu ndetse n'inkumi barimo barafasha umusaza ukuze cyane mu guhaguruka kugira ngo abashe gutambuka akomeze urugendo rwe agere aho yari agiye.

Uyu mugore ari gufasha uno musaza ukuze kugira ngo abashe kuba yahaguruka maze atambuke yigire imbere. Birasa nkaho bimugoye kuba yagenda adafashijwe guhaguruka kuko arakuze cyane, nta ntege nyinshi afite.

Muganga ari gutanga urukingo rw'indwara yitwa Kovide cumi n'icyenda, igaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye nko kugira umuriro ukabije, kuruka, kubabara mu mutwe ndetse n'ibindi byinshi. Mu gihe warufashe uba ufite amahirwe menshi yo kutagaragaza ibyo bimenyetso cyangwa gufatiranwa n'iyo ndwara.

Umuganga arimo araha ubuvuzi uyu mugore amuteza udushinge aho bose bambaye udupfukamunwa tubarinda kuba basohora umwuka utari mwiza bakaba bakanduzanya indwara zigiye zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Kigena, giherereye mu Murenge wa Kigina, Akarere ka Kirehe, Intara y'Iburasirazuba gifasha abaturage mu kwivuza byoroshye, kibaha ubuvuzi bwiza ndetse butandukanye kugira ngo babashe gukomeza kugira imibereho myiza.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, giherereye mu karere ka Ruhango, mu ntara y'amajyepfo, gikomeje gufasha abaturage, mu kwivuza neza, kibaha ubuvuzi bw'ibanze bugiye butandukanye, ndetse n'imiti itandukanye mu kubafasha gukira, ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Ikigo cy'ubuzima cyagendereye, abanyeshuri kugira ngo babigishe uko wakoresha uburoso bw' amenyo mu gihe uri kwiborosa, amenyo yawe agacya neza.

Ni Ikigo Nderabuzima giherereye mu Murenge wa Kanombe, Akarere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, aho gitanga ubuvuzi bugiye butandukanye, ku ndwara nyinshi abaturage barahagana bakabasha kubona ubuvuzi bwiza.

Inzu yagenewe kugurisha imiti ivura indwara zitandukanye, abantu benshi barahagana iyo bakeneye ubuvuzi bw'ibanze, hahagaze abantu imbere y'iyo nzu haparitse motari,

Umuganga ari kumuvura imitsi yo mu ntege amukorera massage, ubuvuzi bwiza butuma wongera kugarura intege mu mubiri, mu ngingo zawe zitandukanye.

Yambaye ipantaro y'umukara, harimo uturongo tw'umweru ndetse n'agapira k'umukara kariho amagambo y'umweru, ari gukora imirimo ngororamubiri ariyo siporo, idufasha mu buzima bwacu buri munsi, ikaturinda indwara za hato na hato nk'umutima, impyiko ndetse n'izindi nyinshi.

Umusore yambaye agakabutura k'umukara, agapira k'ubururu, ari gukora imirimo ngororamubiri, imyitozo kugira ngo abashe gukumira indwara zitandukanye zaba ziterwa no kudakora siporo ndetse n'iyindi mirimo ngororamubiri yose.

Umuntu yavunitse bamushyize ibipfugu ku maguru, bari kugerageza kumuha ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo aze kubasha kugenda no gutambuka mu gihe ari kubabara.

Umuganga yicaye imbere ya machine afite document ari kurebamo, afite akuma gapima umutima kurutugu rw'iwe yambaye agapfukamunwa kamurinda kuba yahumeka umwuka utari mwiza yambaye ga yaba yakoresha mu gukora ahantu hagiye hatandukanye ariko hatizewe bikamurinda kuba yakanduriramo indwara zitandukanye.

Imbuto nziza zigiye zitandukanye harimo umuneke, harimo amaronji, harimo inanasi, harimo amacunda, iyo wafashe imbuto neza bikurinda indwara zitandukanye ubuzima bwawe bukagenda neza kandi butoshye.

Umuganga ari kwerekera umurwayi wavunitse akoresheje akagare kamufasha, kamwigisha no gutambuka kugira ngo abashe gukira neza, mu minsi ye iri imbere agakomeza kugenda neza.

Amacupa harimo imiti itandukanye ya kinyarwanda idufasha mu kutuvura indwara zitandukanye harimo; impyiko, imigongo, kubabara mu nda, iyo wayifashe neza biragufasha ukagira imibereho myiza.

Uyu muntu ari kumukandira umuti w'amenyo, uri kuva mu gacupa, ashyirira mugenzi wiwe ku buroso bw'amenyo kugira ngo abashe kuwukoresha mu gihe aribuze kuza kuba yoza amenyo ase neza, ndetse amuvura indwara zigiye zitandukanye ziba ziri mu kanwa.

Ishyamba ryamezemo ibiti bitandukanye, hari ibihagaze, hari ibigenda birandaranda ku butaka, dukwiye kubibungabunga, ntitubiteme uko twishakiye kuko bidufitiye akamaro mu buzima bwa buri munsi, nko kuduha umwuka mwiza duhumeka n'ibindi ndetse bitandukanye.

Iki ni igiti cyitwa umuravumba, gifasha mu kuvura indwara zitandukanye nk'izo mu nda, inkorora, ndetse no kubabara mu muhogo, abenshi bakifashisha mu kwivura izo ndwara.

Amashu ni imboga nziza zikenewe zikubiyemo intungamubiri mu mibiri yacu, dukenera kuzifata mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tubashe kugira imbaraga, twirinde indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi.